Iyi ni radiyati aho irikukubwira ko radiyati yacu rimitedi, igisubizo ku bwishingizi bw'amatungo. Radiyati yacu itanga indishyi zikomoka ku masezerano, ku bwishingizi bw'amatungo. Hirya hari ishusho y'umugore n'umugabo ndetse n'umwana bafashe sheki ya I&M baki, n'inyuma hari ishusho ya radiyati yacu.

Uyu mukobwa n'umusore bari mu modoka batwaye muhanda muremure bakoreshejwe bamamaza Radiyanti, aho Radiyanti ikubwira ngo Radiyanti yacu turi kumwe, icyerekezo cy'inzozi zawe, ibyishimo by'ubuzima bwawe n'umuryango wawe, kanda akanyenyeri gatanu gatatu rimwe urwego Radiyanti yacu rimitedi.

Aya mashati atondetswe hakurikijwe amabara, aho ibanza imbere ari kaki, hagakurizaho iy'icyatsi kijimye, hagakurizaho iy'umuhondo, hagakurizaho iy'umutuku, hagakurizaho iya oranje hagaheruka iy'ubururu bwijimye.

Iyi modoka y'umukara nziza icanye amatara, iri imbere y'inyubako ndende, bigaragara nk'aho iyi modoka igurishwa, dore ko hejuru handitse ko niba witeguye kugura cyangwa se kuyikodesha no kuyigura wahamagara kuri: zeru karindwi, umunani mirongo itandatu na gatatu, mirongo itatu n'umunani, mirongo inani na kane, mirongo icyenda na kane.

Aba bantu uko ari batatu bishimye, harimo abasore babiri n'umukobwa umwe, aho bicaye ku ntebe imbere yabo hari imeza iteretseho ijage irimo amata ndetse n'ibikombe birimo amata bari kunywa amata bose hamwe.

Uyu mugabo w'umuhinde wambaye ishati y'amabara, wambaye impeta ku ntoki, afite amafaranga mu ntoki, amadorari asa nkuwishimye cyane aranezerewe mu iduka arimo.

Iyi nzu nziza y'amakaro meza y'umweru, irimo intebe zigiye zitandukanye z'amabara agiye atandukanye nka shokora, nk'umukara, nziza zibaje neza ndetse n'imeza iriho igitabo ibaje neza nziza cyane.

Iyi ni imeza ibajwe neza, n'ubwo itari ndende cyane ariko urabona ko isa neza, isize verine nziza, ndetse n'irangi ryiza rya shokora, urabona ko bayishyize hanze ariko irasa neza.

Iyi nyubako ni nini cyane, nta bantu bayirimo, ni resitora ishobora kuba yakira abantu benshi kandi igashobora kuba inahenze, yishyuza amafaranga menshi.

Iyi nyubako nziza yaka neza, irimo amatara menshi yaka neza mu buryo butandukanye, irimo imitako myinshi igiye itandukanye ,uturabo twiza, mbese urabona ko ari hoteli cyangwa resitora nziza.

Uyu mugore n'umugabo bari muri banki, bari batonze umurongo bagezweho, umwe ari mu kumba ke ka mbere, undi ari mu ka kabiri, bategereje ko bahabwa serivisi za banki bagannye.

Iri soko ririmo ibintu bigiye bitandukanye, imipira yo kwifubika, amashati, amapantaro, ndetse harimo n'abagurisha iyi myenda n'abaguzi babo, baje kugura iyi myenda, bari guciririkanya igiciro.

Aba bagabo bambaye imipira y'umuhondo ndetse n'iy'umukara, bari ku cyicaro cya MTN cyangwa se ku ba agenti ba MTN, aho bari gusobanuza serivise z'iyi sosiyete ya MTN.

Igipangu cy'umukara kinini kirimo inzu ndende igizwe n'amagorofa, ifite ibirahure byinshi, ni nziza, ni ndende cyane.

Iyi nyubako ni nini, ni nziza cyane igaragara nk'aho ifite ubwogero bwinshi, uburyamo bwinshi kandi igaragara nk'aho ihenze cyane ikindi igaragara nk'aho iri mu mujyi wa Kigali.

Uyu mugore unezerewe uri mu iduka ririmo ibintu byinshi by'biribwa, afite agafuka k'umuhondo ari kugashyira mu kantu abantu bahahiramo, hirya akikijwe n'udufuka twinshi tujya dutanduka twamabara y'umweru, n'ubururu, n'icyatsi n'andi menshi.

Uyu mukobwa wambaye ipantaro y'ubururu bwerurutse n'agapira k'umweru, n'ikote ry'ubururu bwijimye, ari muri supamaketi irimo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ibisuguti, amavuta, shokora, amafu ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, arimo aritegereza icyo yagura yabanje kugisoma.